Umugabo w'umuhinzi wambaye isarubeti y'umukara, imbere yambayemo umwenda w'umweru, akaba arimo aratera umuti ibigori, ibigori bikaba byarahetse.

Umugabo w'umuhinzi wambaye itaburiya y'umweru, ga z'ubururu, arimo aratera umuti indabyo zisa umweruru n'iroza.

Umugabo w'umuhinzi akaba arimo aratera umuti mu myaka yahinze, akaba yambaye impuzankano y'umuhondo ahantu hose ndetse uturindantoki tw'umukara n'agapfukamunwa k'umukara

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku, ingofero y'ubururu, uhetse pombo y'umuhondo arimo atera umuti ikawa zisashije ibyatsi.

Abagabo bakaba barimo baratera umuti mu myaka, muri iyo myaka hakaba hateyemo ibiti birebire, naho aba bagabo bakaba bambaye igituma batera umuti ndetse bakaba bambaye imyenda y'umuhondo n'uturinda amaso tw'umweru.

Umugabo arimo aruhira imyaka, aho uyu mugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'ingofero y'umweru, akaba ari kuhira imyaka mu murima yahinze.

Umugabo w'umworozi akaba ari kugaburira amafi, akaba afite icyuzi cy'amafi mu gishanga, aho iki cyuzi kizengurutswe n'ibiti cyane cyane n'ibyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, arimo araroba amafi mu mazi, akaba ari kuroba yifashishije intoki ndetse na supanete.

Abagabo b'aboroze aho boroye amafi mu cyuzi, bakaba barimo barayaroba bifashishije inshudura, abagabo bakaba ari abagabo bane.

Umugabo ari ku cyuzi cy'amafi arimo kuyagaburira, icyo cyuzi cy'amafi kikaba kirimo ibyatsi ndetse n'amazi, akaba afite ibiryo mu ntoki ari kugenda anagamo, umugabo akaba yambaye isarubeti isa icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'isaha ku kaboko, akaba amaze kuroba ifi, akaba amaze kuyishyira mu gataro k'ubururu, akaba ku mpande ye hari amazi amaze kurobamo ifi.

Abaturage b'aborozi aho aba baturage barimo bararoba amafi, bakaba baroba amafi bifashishije inshundura, iki cyuzi bari kurobamo kikaba gikikijwe n'ibyatsi.

Uburobyi bw'amafi aho bari kuroba amafi mu byuzi, bifashishije supanete, akaba ari kuroba umugore wambaye ibitenge ndetse n'umupira wa oranje.

Abagabo b'aborozi, bakaba borora amafi mu byuzi, baba bacukuye. Bakaba barimo bararoba amafi, bifashishije inshundura zikozwe n'imigozi.

Umugabo w'umworozi, akaba arimo araroba amafi akoresheje inshundura yaziritse ku giti, akaba arimo kuroba mu cyuzi yubatse.

Ubworozi bw'amafi, amafi bakaba bayororera mu cyuzi. Iki cyuzi kikaba kirimo amafi amaze gukura ku buryo wayasarura. Iki cyuzi kikaba kizengutswe n'ibyatsi bitoya bahateye.

Umugore w'umuhinza, akaba yambaye ibitenge, akaba yarahinze ikawa, ikawa ikaba itarera ikaba igisa icyatsi.

Umusore ari mu murima w'icyayi, umurima w'icyayi ukaba ukikijwe n'amashyamba kandi uyu musore akaba yambaye ingofero itukura, umupira y'umukara, ipantaro.

Abahinzi bahinze ikawa. Barimo barayitoranya aho bayisaruye bayikuremo ibihuhwe n'ibyapfuye. Aho bahinzi barimo barabikuramo babishyira mu ibase.

Abagabo n'abagore b'abahinzi, barimo barasarura icyayi, bakaba barimo kugishyira mu bitaro bahetse in inyuma, bakaba icyayi gihinze ku musozi hejuru, haba ahandi ku mpande, hakaba hakikijwe n'ishyamba.

Umugore ndetse n'umugabo bakaba arimo barasarura umurima w'icyayi, bakaba barimo barasarura icyayi bagishyira mu rutete baba bahetse inyuma. Uyu murima ukaba uzengurutswe n'ibiti ku ruhande rukoze ishyamba.

Umugabo w'umuhinzi. Akaba ari mu murima, aho yahinze ikawa. Akaba ari kwerekana, icyapa cy'ibyo ahinga ndetse n'urugero abihingaho.

Umugabo urimo arasarura ibiti by'ikawa, zirimo izisa umutuku n'izindi zisa icyatsi, zikaba zigifite amababi atoshye asa icyatsi.

Umurima bahingamo ukaba barawuhinzemo umuceri, ukaba uyu murima uzengurutswe n'imisozi iriho amashyamba, ndetse iriho n'inzu batuyemoho.

Umusore ari mu murima uhinzemo mu icyayi. Akaba uyu musore arimo kuhitabira telefone. Akaba uyu murima uhinzemo icyayi, uzengurutswe amashyamba ari ku musozi.

Ikawa y'u Rwanda ikaba ari ikawa imaze gusarurwa, igatunganywa ikaba igeza igihe cyo kunyobwa, aho iyi kawa iri gupimwa k'umudaho.

Abagore bambaye amajire atukura, barimo barasarura ikawa, ikawa ni uruhisho, izindi zisigayeho ziracyari ibitumbwe, hirya yabo hakaba hakikijwe n'imisozi iriho amashyamba.

Imiti y'amatungo cyangwa inyamaswa zororerwa mu rugo, akaba ari imiti baha amatungo akayinywa cyangwa bakazitera urushinge ruri mu ya miti, ikaba iba iri mu ducupa dusa umweru cyangwa uburu, ikaba ibiriho n'ibyapa byerekana uko ikoresha.

Ibiti y'amatungo cyangwa inyamaswa zororwa mu rugo, bakaba ari imiti baha amatungo akanywa cyangwa bakayatera amatungo bakoresheje inshinge, ikaba iba iri mu dupira tw'umweru mu mipfundikizo y'umutuku naho indi ikaba iri mutu.

Imiti y'amatungo, aho iyi miti inyobwa cyangwa igaterwa amatungo arwaye, cyangwa kugira ngo ayongerere imbaraga zo gukura neza. Ikaba iba iri mu dupira dusa umweru, hariho n'ibyapa by'uko imiti ikora.

Imiti y'amatungo, aho iyi miti ihabwa amatungo akayinywa cyangwa bakayiyatera bakoresheje inshinge. Aho iyi miti iri mu cyumba cyubakishije isima n'umucanga. Ikaba ipakiye mu bikarito.

Umugabo wumuhinzi, akaba yarahinze imyaka mu gishanga, akaba yambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'ubururu.

Abagore bavuye mu rwuri rw'inka, aho bafite amasuka, aho urwuri rw'inka rurimo ibyatsi birebire ndetse harimo n'ibiti binini, abagore bakaba bambaye ikanzu y'umutuku n'agasharupe.

Umugabo urimo gukama inka avuruganya yambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, hasi hari ibyatsi, ari gukamira mu ndobo.

Umuturage w'umuhinzi, akaba yarahumbitse imbuto, akaba zikiri mu buhumbikiro. Akaba yarubatse igisharagati gitwikira za mbuto. Akaba imimbuto zikikijwe n'ibyatsi birebire.

Abagabo b'abahinzi, bakaba barimo barahinga mu gishanga, aho bahinga bakoresha amasuka bisanzwe.

Ingemwe z'ibiti by'inturusu. Izi ngemwe zikaba batarazigemura, ngo bazikure aho bazihumbikiye. Zikaba zikiri mu bihoho byabyo.

Akarima k'igikoni, aho kubakishijwe bakoresheje imifuka baciye ndetse n'ibiti. Kakaba kazengurutswe n'ibyatsi, hepfo hakaba hubatse inzu.

Umurima uhinzemo urutoki, uru rutoki hakaba harimo insina zimwe zanye ibitoki, hakaba hariho ibyeze hakaba hariho n'ibitare, uru rutoki rrukaba rusa icyatsi kibisi.

Umurima uhinzemo ibishyimbo bikaba bikiri bitoya, ukaba bisashijwe ibishogoshogo ku mpande hakaba hari ibyatsi by'urwiri.

Umusaruro w'imbuto aho izi mbuto ziganjemo amacunga, amapapayi, ibitunguru ndetse n'amaronja hakaba harimo n'inkeri zisa umutuku.

Ishyirahamwe ry'abahinzi, akaba ari abahinzi bahinga umuceri mu gishanga, bakaba bahinga bifashishije amasuka asanzwe.

Amashyamba ateye ku musozi hejuru, akaba amashyamba barayatemye bakarunda ibiti ukwabyo ndetse n'amashami yabyo bakagenda bayarunda, hakaba muri iri shyamba harimo n'ibyatsi.

Amashyamba ateye ku nkengero z'umugezi, hakaba hari umugezi utemba ukaba uzengurutswe nyaibyatsi ku nkombe zawo, hakaba hari n'imirima irimo urutoki ndetse n'imyaka.

Amashyamba ateye imbere y'umurima abaturage bari guhingamo. Aya mashyamba akaba arimo ibyatsi bikiri bitoya. Na ho hakaba hari n'abaturage bari kuyahinga imbere benshi.

Ishyamba rigizwe n'ibiti by'inturusu hakaba hasi hari'ibyatsi bitarakora ibihuru cyane, hagati muri iri shyamba hakaba harimo umuhanda w'itaka.

Ishyamba rinini, aho ririmo umuhanda ndetse kuri uwo muhanda hakaba hateye ibiti bitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Ibyo biti biteye aho bikaba bisa umweru ndetse muri iryo shyamba harimo ibyatsi bibisi cyane.

Ishyamba ritari inzetane cyane. Rikaba rigizwe n'ibiti birebire. Aho abantu baje kuhasura, harimo abagore ndetse n'abana. Bakaba baje gusura amashyamba.

Umusozi uteyeho amashyamba, hakaba hateyeho n'insina hepfo hakaba ariho n'ibyuma bitwara insinga z'amashanyarazi, hakaba hasi haciyemo umuhanda uri kugendamo n'abantu batwaye amagare.

Umusozi uriho amashyamba y'inzitane aho aya mashyamba asa n'ayeze kandi akaba azitanye ku buryo umuntu atabasha kumeneramo ngo arebe hirya, aya mashyamba akaba ari ku musozi hejuru.

Umusozi muremure cyane ukaba uteyeho amashyamba, ishyamba akaba ari inzitane ukaba utashobora kureba ikiririmo.

Amashyamba akaba ateye ku musozi ihanamye. Aho misozi iteyeho amashyamba menshi ndetse n'ibyatsi ku musozi kuri iyi misozi hakaba hubatseho n'amazu abaturage batuyemo.

Umusozi hejuru, ukaba uteyeho amashyamba kugeza mu kibaya, ku musozi hakaba ariho ibyatisi, bisa icyatsi, uyu musozi akaba ari imisozi, itatu iteganye.

Isoko aho bacuruza imbuto zitandukanye. Harimo amacunga, amatunda, ibinyomoro, bakaba bacuzamo n'ibyokurya birimo, inyanya, karoti, pavuro, ndetse n'amadegede.

Umurima utunganyije uhinzemo amashu. Aya mashu akaba atarera akaba akiri matoya hakaba hazengurukishijwe uruzitiro rw'ibiti.

Umuhinzi w'indabyo akaba ari mumurima yahinzemo indabyo aho yambaye ishati y'umweru aho arimo arasarura indabyo zisa umutuku iroza na oranje.

Umuhinzikazi w'umugore akaba yarahinze pavuro, akaba yarazihinze mu nzu yabugenewe, zikaba ibihingwa yahinze byera bisa umuhondo, naho ibindi bikera bisa icyatsi.

Umugabo w'umuhinzi akaba yarahinze bya kijyambere aho uhinga ibyo urya kandi ukanakemura ku isoko. Akaba yarahinze puwavuro zigezweho, akaba yarazihinze mu nzu itwikiriye igezweho.

Umugabo w'umuhinzi yambaye agapfukamunwa k'ubururu, umupira w'ubururu, akaba ari mu murima ateruye urubuto ruri mu gihoho ndetse akaba arimo arahinga n'izindi nyinshi inyuma ye.

Umugabo w'umuhinzi akaba yambaye umupira w'umweru aho arimo arasarura amatunda, akaba yarahinze amatunda hejuru.

Uburyo bwo kuhira imyaka bwa kera aho uvomerera ukoresheje rozwari kugira ngo ukure amazi mu gishanga uyazana hejuru hari imyaka.

Umuyoboro w'amazi bakoresha bari kuhira imyaka. Uyu muyoboro ukaba wubakishijwe isima n'umucanga, ukaba uzengukishijwe ibyuma by'umweru ndetse n'umutuku.

Umurima urimo kuhirwa n'amazi, uka uhinzemo ibishyimbo, bikaba bikikijwe n'imisozi iriho amashyamba ndetse n'ibyatsi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru n'ingofero y'ubururu arimo aruhiza imashini yuhira ibigori, hakaba hakikijwe n'ibiti n'insina.

Uburyo bwo kuhira imyaka uburyo bukaba bukoreshwa n'abahinzi bari kuvomerera imyaka mu gihe izuba riba ricanye, bakaba barimo baruhirira imyaka bahinze haruguru y'aho bahinzwe hakaba hari umusozi uri ruguru y'umuhanda.

Umugabo w'umuhinzi, arimo kuhira imyaka ivanzemo n'ibiti, habakikijwe n'urugo, rwubatswe n'isima ivanze n'umucanga.

Kuhira imyaka ihinze wifashishije imirasire y'izuba, aho iyi mirasire ikurura ifatwa ikabikwa igakoreshwa mu kuzamura amazi agera mu bihingwa mu mirima.

Umugabo w'umuhinzi arimo aruhira imyaka akoresheje umupira uri mu mazi. Aho uyu mugabo yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara.

Imisozi ivanze n'ibibaya akaba, ibiteho, urutoki, amashyamba n'ibyatsi, hakaba hatuye abaturage, hakaba hari igihu ku musozi hejuru.

Umusozi uhanamye ukaba uteyeho ibiti, ibyatsi n'insina kandi hakaba hubatseho amazu ariko atari menshi.

Imisozi miremire ndetse n'ibibaya hasi, hakaba kuri iyi misozi hateyeho amashyamba ndetse n'ibyatsi, hirya ku misozi, hakaba hari inzu z'abaturage bahatuye.

Umurima wi'icyayi uhinze kumusozi, hakaba undi musozi uteyeho amashyamba ndetse ukaba urimo ibyatsi.

Umusozi hejuru, ukaba uteyeho ibiti, ibyatsi ndetse n'insina, hakaba hatuye abaturage ndetse hejuru hakaba hariho.

Imisozi miremire, akaba hari ibibaya hasi, akaba kuri iyi misozi hatuye abaturage benshi, ku misozi kandi hakaba ariho n'ibiti bike bike.

Ingurube irimo ironsa ibibwana byayo, aho yaryamye igaramye kugira ngo ibibwana byayo bibone uko bibona amabere yabyo ngo byonke.

Inka zi mu kiro, aho ziri kurisha, zikaba zifite amaherena ku matwi, zikaba zisa ikibombogoro.

Inka zoroherwa ku musozi, zikaba ziri mu isambu zirishirizamo, izi nka zikaba zisa n'inka z'inkungu kuko nta mahembe zigira.

Ihene ziri mu rwuri. Aho uru rwuri ruzengurutswe n'ibyuma z'umutuku ndetse n'umweru. Zikaba izi hene, zisa n'iziri mu isoko.

Inka zororewe ku gasozi, izi nka zikaba ziri mu rwuri. Urwuri rukaba rurimo ibyatsi ndetse hakaba hateyemo n'ibiti. Zikaba zifite umushumba wazo.

Aborozi bororeye inka ku gasozi, aho izi nka ziganjemo iz'inyambo, zikaba zifite umushumba wazo, akaba ziri kurisha ibyatsi hasi.

Ubworozi bw'amatungo bugezweho, aho boroye ingurube, bakaba bazororeye mu kiraro cya kijyambere, cyubakishije ibiti, hasi hakaba hubakishije isima n'umucanga.

Ubworozi bwa kijyambere aho borora amatungo menshi ukoresheje ahantu hatoya ukorora inkwavu.

Ubworozi bwa kijyambere aho boroye itungo ryitwa ingurube, hakaba hubakishijwe n'imbaho zizengurutse, ikibute akaba hasi hameneye, hakoresheje isima n'umucanga.

Ihene zikaba ziri mu kiraro, zikaba harimo n'intama, hakaba iki kiraro cyubakishijwe imbaho ku mpande ndetse n'izindi mbaho hasi.

Ubworozi bwa kijyambere, aho bororera amatungo ahantu hamwe, hakaba hakorotirikijwe n'ibyuma, bakaba barimo kuzikama abashumba.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko. Bakaba bororera inkoko mu nzu. Zikaba zorowe n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru. Inzu bayororeyemo ikaba isa umweru, ikaba irimo n'amatara yaka umweru.

Umusore wambaye ipantaro y'umukara, ingofero y'umutuku, arimo arakama inka, akamira mu cyansi, aho inka iri mu kiraro, iri kumwe n'izindi.

Ikiraro cy'ingurube kirimo ingurube enye. Ikiraro kikaba cyubakishije isima. Izo ngurube enye harimo imwe nini isa umukara n'utundi twana twayo dutatu.

Ubworozi bwa kijyambere, aho bworozi bororera inkoko mu nzu, bakaba baziha ibyo kurya n'ibyo kunywa mu nzu zikabona gutera amagi.

Ihene ziri mu rwuri, ziri kumwe n'abaziragiye b'abagabo, hakaba hakikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, rukaba ruzengurutse, aho ihene ziri.

Inka zorowe mu buryo bwa kijyambere zikaba zifite ikiraro cyubakishije isima n'umucanga, kikaba cyubakishije ibyuma bitukura hejuru no hasi.

Icyumba bahunikamo imyaka, aho iki cyumba gisa umweru hakaba harimo imifuka ihunitse imyaka aho iyi mifuka isa umweru.

Umugore afite intara, akaba arimo aragosora imyaka, ayitandukanya n'imyanda akaba ari, ahari hakorotirijwe igipangu kiriho amabati y'ubururu.

Umukobwa uri kuvungura ibigori, wicaye ku ntebe y'ubururu, inkweto z'umukara, akaba ari kuvungura ibigori abikura mu mufuka, akaba yicaye mu rugo iwabo.

Icyumba cyahariwe guhunika imyaka, iki cyumba kikaba cyubatse gisize amarangi y'uweru, hakaba harimo amamashini ashinzwe kubika neza imyaka, hakaba arimo abantu bagenewe kubika neza imyaka kugira ngo idapfa.

Imbuto bahinga, akaba ari imbuto zitandukanye, bahabitse abantu bahinga. Hakaba harimo: ibishyimbo, ubunyobwa, soya ndetse n'ibindi.

Umuvuzi w'amatungo. Akaba arimo aravura inka. Akaba yambaye isarubeti y'ubururu ndetse akaba arimo gukora mu nda y'amaganga y'inka.

Umukobwa w'umuvuzi w'amatungo akaba arimo aravura inka ayikora imbere mu nda. Uyu muvuzi w'amatungo akaba yambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara.

Abavuzi b'amatungo, aho aba bavuzi barimo baravura inka. Inka ikaba ari mu cyaro cyabugenewe cyubakishijwe ibyuma. Bakaba bambaye impuzankano n'amataburiya by'umweru.

Umuvuzi w'amatungo yambaye akarindamutwe k'ubururu n'uturindantoki tw'umweru. Aho yambaye ishati ijya gusa umweru werurutse, aho arimo aravura itungo ku meza.

Umuvuzi w'amatungo aho umuvuzi arimo aravura inka. Inka ikaba iri mu kiraro aho igikore gikozwe n'ibyuma ndetse n'ibindi bihagaze bakaba bambaye impuzankano y'ubururu.

Ubworozi bwa kijyambere, aho bororera inka ahantu hamwe, akaba ari inka z'inyambo, zikaba ziri kumwe n'abazivura, igihe zarwaye.

Inyamaswa yitwa ingwe ikaba iri mu ishyamba, aho ishyamba naryo ririmo umugezi w'amazi rikaba ingwe ishaka kunywa amazi.

Inyamaswa ziri mu ishyamba aho zisurirwa, hakaba harimo inzovu ndetse n'izindi, hakaba hari abakerarugendo baje kuzireba.

Ingwe ikaba yasamye aho yazamuye imikaka, aho iyi ngwe ifite ubwanwa bwinshi ndetse ikaba imeze nk'ishaka kurya umuntu.